Banki ya Tanzaniya, amashingi igihumbi kimwe, hagaragaramo ubusitani buri imbere y'inyubako ndende, hejuru yaho hagaragaramo idarapo.

Inyubako igaragaza ahantu hatangirwa ubwishingizi bw'ubucuruzi ku rundi ruhande hakagaragara ubwishingizi bw'abantu ku giti cyabo bigaragara nkaho ahantu hatari gukora harafunze.